Purayime inshuwarensi kampani ishami rishinzwe kwishingira imodoka ushaka gucuruza nta nkomyi gura ubwishingizi bw'ibinyabiziga bigufasha mu bucuruzi.

Ikigo cy'ubwishingizi cya sonarwa, gifasha abashaka gufata ingendo zijya kure mundege, zikabaha ubwishingizi bw'urwo rugendo ukagenda utekanye.

Radiant ni ikigo cy'ubwishingizi kimaze igihe mu Rwanda, gifite serivisi zo kwishingira ibinyabiziga ama moto ama modoka ndetse n'ibindi, kikanishingira ubuzima bw'abantu kubavuza indwara.

Abanyamwuga mu bijyanye n'ubwishingizi. Seka kuko twagarutse bafite ubwishingizi ku buzima, bafite n'ubwishingizi ku binyabiziga.

Ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima, kanda akanyenyeri mirongo itanu na gatatu, rimwe urwego, radiyanti yacu ubwishingizi buciriritse, hamagara cumi n'umunani icumi, umurongo utishyurwa, telefone zeru karindwi umunani numunani mirongo itatu n'umunani icumi mirongo icyenda na ga,...

Inzu yawe ni igishoro cyawe kinini, ikaba n'agaciro kawe, menya neza ko inzu yawe yishingiwe kandi irinzwe na radiyanti, tugane muri radiyanti tuguhe ubwishingizi bw'inzu.

Radiyanti ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda ,ubwishingizi bwo kwibwa, ntawamenya ejo wasanga ibyawe byibwe, irinde sinamenye uze tukwishingire muri radiyanti.

Eko banke depana afurika banke banki y'ubucuruzi ifite amashami menshi muri afurika, mu Rwanda, muri Kongo ndetse no mu bindi bihugu byo muri aka karere.

Hari ikoranabuhanga risigaye rigaragara mu gihe cyo kwishyurira umunyeshuri minerivare utarinze kujya kuri banki, iyo ni urubuto. Uwishyura yitwa Faustin Kanamugire, arishyura amafaranga y'ishuri angana n'ibihumbi mirongo irindwi na bitanu.

Ikoranabuhanga rirakataje mu nzego zose z'igihugu, kuko n'amabanki yagiye akora amapulikasiyo wakoresha kuri mudasobwa cyangwa kuri telefone yawe kugira ngo ubashe gukoresha serivise ziyo banki.

Banke ifite hagunda yo kohereza amafaranga utavuye aho uri, uyakura kuri banke, kuri konte yo muri banki, uyashyira kuri konte za mobayiro mani, cyangwa uyashyira kuri konte zo kuzigama.

Bacuruza imyenda, inkweto amasakoshi by'abadamu n'iby'abagabo, byiza cyane, inkweto zose wazihasanga.

Ubucuruzi buciriritse, ubucuruzi bwo ku rwego rwo hejuru bwose mu Rwanda burakora. Aha bafite ibitenge by'ubwoko bwose ku biciro byoroheye buri wese bitewe n'icyo yahitamo.

Inkweto zikoze neza zambarwa n'abari n'abategarugori z'umukara, iz'umweru, iz'umukara n'umweru, iza shokora ziri ku giciro cyiza.

Imitako myiza itatse amabara ya kinyafurika n'imitako yakoreshwaga cyane cyane n'abanyarwanda, n'abanyarwandakazi mu gihe cy'imyaka yo hambere kandi n'ubu iracyakoreshwa.

Casmara Brands Boutique bakora amasaha atandukanye, ku wa Mbere bakora kuva Saa yine kugera Saa tatu, ku wa Kabiri Saa yine kugera saa mbiri, Ku wa Gatatu bakora Saa yine kugera saa mbili za nijoro.

Butike icuruza imyenda y' badamu igacuruza n'imitako y'abagore harimo amajipo., amakanzu amakositime, byo wakwambara hari aho ugiye.

Bacuruza imyenda yo kwambara, imipira, ingofero, amasakoshi, ni mu muryango nimero karindwi ni byiza kandi biri ku giciro cyoroheye buri muntu wese.

U Rwanda rwateje imbere kwishyurana hadakoreshejwe kashi ahubwo hakoreshejwe amakarita niyo mpamvu amaguriro yose afite utwuma twabugenewe twakira izo karita amafaranga akava kuri banki agana k'umucuruzi.

Gucuruza imyenda ukambika abakugana ni byiza wakorera ahantu heza kandi hari isuku hanagaragara neza ni muri urwo rwego babafitiye imyenda myiza yo kwambara muri ino botike.

Botike icuruza imyambaro igezweho kandi ya karasike ihenze myiza cyane abahagana baherereye mu mujyi wa kigali ahazwi nka kigali.

Butike zicuruza medini Rwanda, imyenda yakorewe mu Rwanda zimaze kuba nyinshi mu Rwanda, kandi bafite imyenda myiza igezweho ibereye abantu bose.

Akagera bizinesi gurupe igira imodoka zikiri nshyashya ziro kirometire igurisha ku mafaranga adakanganye kandi ziba ari nziza cyane harimo; amatoyota, amakamyo ndetse n'izindi.

Akagera bizinesi gurupe moto, ni kampani igurisha imodoka zikiri nshyashya zitakoze, zivuye cyane cyane mu Buyapani, higanjemo amatoyota n'izindi nganda.

Uru ni urubuga rwo kwamamarizaho ibijyanye n'ubwishingizi, nawe rero nakugira inama niba uri umucuruz,i ndetse ufite ibindi bikorwa bikwinjiriza amafaranga, y'uko wabishinganisha mu bigo nk'ibi.

Akagera Bizinesi Gurupe n'ikigo cy'ubucuruzi cyamenyekanye mu gucuruza cyane cyane imodoka, inzoga n'ibindi kibikura mu bihugu byo hanze kikabicuruza hano mu Rwanda.

Mu Rwanda bamaze igihe gito bagerageza imodoka zama iburide. Bibiri na cumi n'akabiri yundayi sonata iburide. Yagurishwaga ku giciro cya miriyoni umunani.

Akagera bizinesi gurupe ni kampani iri gorobari, icuruza amamodoka cyane cyane, n'ibindi bikoresho, ibyemporuta, ibikura hanze, ibizana mu gihugu.

Akagera bisinesi gurupe habamo ishami ryitwa akagera muta zifitemo imodoka nziza zigurishwa amakwaasteri amapikapu ndetse n'izindi.

Imodoka igurishwa bibiri na makumyabiri na kabiri toyota care iburide iragurishwa igiciro miliyoni mirongo itatu n'esheshatu kigali care maketi.

Ubucuruzi bw'imodoka nshyashya mu Rwanda bwateye imbere muri iyi myaka itanu ishize kuko hinjiye imodoka nshyashya nyinshi hagabanuka kuzana imodoka zakoreshejwe n'abanyaburayi.

I Kigali hari imodoka nziza igurishwa ku giciro cya miriyoni mirongo itatu na zirindwi z'amafaranga y'urwanda. Iri mu bwoko bwa ravafo.

Akagera bizinesi gurupe ibafitiye imodoka nziza cyane zo mu bwoko bwa toyota ndetse ni imodoka watemberamo n'umuryango wawe zikwiye icyubahiro cyawe.

Mu gihe ufite amafaranga menshi utabasha kubara n'intoki zawe, wakoresha akamashini kabugenewe kuko nibyo byagufasha gusevinga igihe.

Amafaranga akoreshwa mu buzima bwa buri munsi, niyo mpamvu buri gihugu kigira amafaranga atandukanye nay'ikindi gihugu, n'igenagaciro ry'amafaranga ya buri gihugu biba ritandukanye.

Uburyo bwiza bwo kubara amafaranga iyo ari menshi, ufata amafaranga y'ibiceri abarakwishyura ukwabyo, inote zibara kimwe nazo ukazishyira ukwazo, noneho ugashyira mu kamashini kabigenewe kakakubarira kakakwereka umubare w'inote ugakuba n'amafaranga yizo note.

Banki nkuru y'u Rwanda yakoze inoti y'amafaranga ibihumbi bibiri, igaragaramo umunara hakabamo n'agaseke ndetse n'ibirango by'u Rwanda.

U Rwanda rukomeje guteza imbere aborozi ndetse n'abahinzi, ruteza imbere imisaruro ituruka ku matungo ayo ni amata, bashyizeho amakusanyirizo kugira ngo agere ku isoko muri rusange.

U Rwanda rufite intego yo kongera umukamo n'ibikomoka ku matungo, niyo mpamvu amata bayakusanyiriza hamwe, bakayazana muri kigali kugira ngo agurishwe ameze neza yujuje ubuziranenge.

U Rwanda rwashyize imbaraga mu gukangurira abanyarwanda kunywa amata, kuko bitera ubuzima bwiza uyanyweye; ndetse akaba yujuje n'ubuziranenge.

Icyuma kibika amata mu buryo bugezweho, ubwaho haba harimo firigo, kugira ngo amata akomeze kuba yujuje ubuziranenge, atagira ikibazo ateza abayanywa.

Amata n'ibiyakomokaho bigira intungabuzima n'umumaro mu buzima bw'abakiri batoya, ni yo mpamvu abana n'ababyeyi abageze mu za bukuru bashishikarizwa kuyanywa kenshi gashoboka.

Yawurute za masaka ziboneka ku masoko yose ari mu Rwanda cyane cyane mu ma arimentasiyo atandukanye zikize kuri vivitamine se kandi abana n'abantu bakuru barazikunda.

Uruganda rw'inyange rufite ibikomoka ku matungo amata, amavuta, za yawurute ndetse n'ibindi. Rukorera i Masaka mu mugi wa Kigari ariko ibicuruzwa byabo wabisanga hose mu gihugu.

Iyi nyubakora urabona ni nini cyane irimo ibikorwa remezo bitandukanye, harimo amadirishya meza, hejuru waza ukahicara rwose ukitegera umujyi ukareba, hakurya urahabona ahantu batega bakoresheje amahirwe nyine bari gukina ibintu bitandukanye.

Woherereje amadorari ibihumbi birindwi magana atanu kuru Jesi ufite imeri ikurikira byagenze neza ya yabonye.

Emutiyene mobilo mani : "kanda akanyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri umunani urwego wemeze, maze ukurikize amabwiriza.

Hitamo wasake andika nimero za konteri yawe, ushyiremo amafaranga, wishyure wemeze. Hitamo neza.

Teganyiriza ahazaza h'umwana wawe amafaranga make watangiza none yakubaka ejo heza h'abana bawe bakiga nta mbogamizi n'imwe bahuye nayo.

kwakira no kohereza amafaranga, umubare w'amafaranga woherereje amafaranga baguciye ibihumbi umunani magana atatu kugeza ku bihumbi cumi na bitandatu ucibwa amafaranga igihumbi na magana atanu.

Icyitonderwa iki cyemezo kimara amezi atatu gusa iki cyemezo ntigishobora gukoreshwa mu ihinduranya ry'imitungo itimukanwa.

Uyu ni muhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo usizemo amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, iruhande rwaho hari ibiti byiza by'icyatsi ubona bitanga umuyaga.

Repubulika y' u Rwanda imenyekanisha ku musoro kariyime inshuwarensi limitedi iramenyekanisha imisoro y'uko kweze kugira ngo batazacibwa amande cyangwa amapenalite.

Kumenyekanisha umusoro ni inshingano z' umusorehwa kugira ngo yihutire kudazacibwa amande mu gihe arengeje itariki yo kwishyuriraho imisoro ateganyijwe gutanga.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro rwanda reveni otoriti icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro ni icyemezo gitangwa na rwanda reveni otoriti.

Mugihugu gikunda kugira abakerarugendo cyane giteze imbere ibikorwaremezo ariko ntago cyakwibagirwa uburyo bwo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga ndetse n'amafaranga y'urwanda cyane cyane amadorali nayo akoreshwa muraka karere.

Ivunjisha mu Rwanda rigeze ku rwego rwiza cyane. Kuko waba ufite amafaranga yo mu madorari y'abanyamerika, ayo muri Singapuru, ayo mu Bushinwa, ndetse no muri Malejiya, ubu mu Rwanda barakuvunjira ku giciro cyiza.

Amafaranga y'amayero ni amafaranga akoreshwa mu bihugu by'inshi by'iburayi, akaba anakoreshwa no muri afurika, ndetse no mu bindi bihugu, akurikira amadolari gukoreshwa.

Imitemeri ikorerwa mu Rwanda, ni imitemeri myiza cyane itatse ubwiza, imwe ifite amabara y'umuhondo, umukara n'umweru, umukara n'umutuku wijimye, iyi mitemeri ikoreshwa nk'imitako mu nzu cyangwa muri saro cyangwa se ahandi hantu hatandukanye.

Sitandadi foregisi biro, ni biro ivunja amafaranga y'abanyamahanga, aho uzana amafaranga y'amayero cyangwa amadorari cyangwa ayakoresha muri leta z'abarabu, tukaguha amafaranga y'amanyarwanda.

Abantu benshi harimo umugabo wambaye ishati ijya gusa umutuku imbere ye hari mudasobwa n'icupa ry'amazi biteretse ku meza, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'amarinete, mbere yewe hari icupa ry'amazi ndetse n'igikapu cy'umukara, iruhande rw'iwe nawe hari umugore wambaye ikanzu y'umukara iciye amaboko, imbere yiwe hari icupa ry'amazi na mudasobwa biteretse ku meza.

Ibiro bishinzwe kuvunja amafaranga y'amanyamahanga bakaguha ay'amanyarwanda cyangwa ufite ay'amanyarwanda bakaguha amanyamahanga kombo wehiseri nta komisiyo iba irimo. Bavunja amafaranga y'amayero, Ubusuwisi na Ositarariya n'ubuyapani.

Ivunjisha m'urwanda rihagaze neza hari ama banke avunja amafaranga y'amanyamahanga ariko kandi hari na foregisi biro, biro de shanje zikuvunjira amafaranga y'amanyamahanga kugiciro kiza.

Werikamutu folegisi biro dukomere, tuvunja amafaranga y'amahanga amadolari, amayero n'ayandi yo mu bihugu by'abarabu.

Telefone magana abiri mirongo itanu mirongo irindwi n'umunani, makumyabiri na kane , mirongo itandatu n'umunani, makumyabiri na rimwe, umunani . Emutiyene uganda. Kohereza no kwakira amafaranga bikorerwa hano.

Ufite urugendo rujya mu mahanga cyangwa uvuye mu mahanga, ukenera amafaranga y'igihugu ugiyemo, amafaranga azagufasha aho ugiye nyine, niyo mpamvu foregisibiro ibigufashamo.

U Rwanda rugendwa n'abanyamahanga batandukanye kandi benshi, bavuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, mu Burayi no muri Amerika. Niyompamvu uhasanga biro deshanje nyinshi, purayime foregisi biro nayo irahari kugira ngo ibavunjire amafaranga yanyu.

Azure foregisi biro iherereye kwa rando mu mujyi wa Kigali, werekeza i Remera, ni biro deshanje ivunja neza.

Ibiro bishinzwe ivunjisha foregisi biro, biro deshanje, tuzamurane buwate positale manatatu na cumi na gatatu mobile zeru, umunani maganatanu miringo itatu, zeru, maganatatu makumyabiri.

Serivise dufite muri interial design tubafitiye intebe nziza zigezweho ameza, utubati, gariderobe n'ibitanda mutugane biri kugiciro cyiza.

Ibikoresho bikozwe mu mbaho n'ibikoze muri emudi efu bikora igikuta icyo bita bakegarawundi nziza aho abadisiyide babyigiye ari bo baza kubigukorera mu nzu yawe.

Kwizerwa atsi, ni kampani ibakorera ibikoresho byo mu nzu, cyane cyane intebe nziza ibitanda. utubati, ameza n'ibindi bikoresho byo mu nzu mukeneye.

Intebe zikoreshwa mu ruganiriro ariyo salo harimo ameza imwe nini n'utumeza dutoya twitwa tabulete dukoreshwa muri salo.

Ibikoresho byose bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, bikoze mu rubaho, hari kampani zibigurisha kugiciro cyoroheye buri muntu wese ubikeneye.

Ubu si ngombwa gutumiza ibikoresho bikozwe mu mbaho mu mahanga, kuko mu Rwanda hari kampani zibaza neza ibikoresho bikozwe mu mbaho. Bagane baguhe intebe nziza zo muri saro.

Ibikoresho bikozwe mu rubaho, harimo intebe, akabati, intebe yo kwicara ho, akabati ko kubikamo ibintu bitandukanye umuntu yakoresheje.

Icyumba cy'inama cyakira abantu batari bakeya, bakurikiranye iyo nama, ndetse hakaba harimo ibintu byose waba wifuza.

Mariyoti hoteli iba mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu kiyovu cy'abakire, niyo izwiho kwakira abakerarugendo ndetse ikaba irimo muzakira abami.

Hotel yakira abakerarugendo. ndetse n'abayigana bose bashaka serivisi, iherereye mu mujyi wa Kigali ifite pisine nziza, ikanagira jaride nini kandi nziza.

Hoteri nziza yubatse neza kandi ifite imbere yayo pisine ndetse n'imitaka abavuye muri pisine baruhukiramo.

Hoteri demiri korine n'imwe mu mahoteri yaje mu Rwanda kera ikaba imaze igihe kinini ikorera mu kiyovu cy'abakire yakira amanama abakerarugendo ndetse n'ibindi bikorwa bihakorerwa.

Azure foregisi biro iherereye kwa rando mu mujyi wa Kigali, werekeza i Remera, ni biro deshanje ivunja neza.

Icyapa cyerekana uburyo ushobora kubona inguzanyo yawe yo kubaka mu Igihe byihuse. Ni ukuvaga ngo hari banki mu Rwanda yitwa "i" na "ma", yitwa gutyo, izwiho cyane mu gutanga serivisi nziza kandi zihuse. Rero iyo ukeneye inguzanyo y'ubwubatsi ushaka kwiyubakira inzu yawe, ushobora kubagana ukaba wabaka inguzanyo. Hano kuri radiyo rero bafite ikiganiro kiza kubera kuri radiyo, umutumirwa mukuru araza kuba yitwa Christian Abijuru, mwahegera mu mukaza kumenya ibikenerwa byose, mukaba mwamenya n'uwemerewe inguzanyo arinde n'ibyo asabwa byose.

U Rwanda rushyize imbaraga mu gukora amajaride no gutunganya umwuka abanyarwanda bahumeka niyo mpamvu hari ubusitani ahantu henshi.

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

Saint Famille Hotel iherereye mumugi wa kigali yuzuye vuba kandi izwiho kwakira abakera rugendo cyane cyane abaje mubyiyoboka mana m'urwanda ikora amasaha yose.

Guteza imbere ubukerarugendo mu Rwanda ntago wasiga amahoteli ateye imbere, agaragara neza, kugira ngo abatugana babone ahantu hakwiranye n'icyubahiro cyabo.

Amahoteli menshi azwi kwakira abashyitsi ariko akagira n'aho abantu banywera, haba hazwi nk'akabari kiyubashye.

Umutetsi wabigize umwuga ari mu gikoni kigezweho, aho agiye gutegura amafunguro atandukanye, ibyo ari bwifashishe ni ibitunguru, puwalo, puvuro, intoryi na karoti ndetse n'inyanya.

U Rwanda rwashyize imbaraga mu bukerarugendo rwongera ubwiza bw'ama hoteri ndetse n'ubushobozi bwo kwakira abayagana ni muri urwo rwego ama hoteri menshi yongereye urwego rwa serivisi.

Sonarwa jenerali Kimironko buranshi : ni ubwishingizi bwatangiye mbere y'intambara, aho bishingira ibinyabiziga, amashuri y'abana, ubuzima ndetse n'ibindi bitandukanye.

Purayime inshuwarensi kampani, ni ikigo cy'ubwishingizi gifite ubwishingizi butandukanye, nko kwishingira inguzanyo mu gihe uyisaba akiriho cyangwa atakiriho baramwishimira.

Purayime inshuwarensi kampani ndetse na saniramu zishingira ibinyabiziga, zikishingira ubuzima bw'abantu, zikishingira imitungo itimukanwa ndetse n'inkongi z'umuriro.

Ntago wakwizera umutekano wawe w'ejo hazaza mu gihe udafite ubwishingizi na bumwe shingana ibyawe, ushingane abawe, ushingane amashuri y'abana bawe kugira ngo ejo hazaza hazakorohere.

Ntago wakizera ejo hazaza mu gihe hadashinganye niyompamvu buritamu ishishikariza abaturarwanda gufata ubwishingizi bwayo bw'ubuzima kugira ngo babagoboke mu gihe cy'akaga.

Icyumba gikorerwamo imirimo itandukanye ya buri munsi, harimo abakozi bane bafite mudasobwa bari gukoreraho, bicaye bari gukora imirimo yabo ya buri munsi.

Ekwiti bake Rwanda rimitedi, yakinguye imiryango, ushobora kubona inguzanyo yo kugura bimwe ukeneye muri bizinesi yawe.

Ikoranabuhanga ni ryiza ryakemuye byinshi ndetse ryatugejeje kuri byinshi mu iterambere, icyo ushatse gukora cyose iyo ugikoze oniliyini cyangwa se ukagikorera kuri mudasobwa uba wizeye ko byanga bikunda kizageraho kigomba kugaragara kandi kikagaragarira ku gihe kigasubizwa neza.

Ekwiti Rwanda limitedi ni banki imaze igihe kitari gito ikorera mu Rwanda aho iguha amafaranga y'inguzanyo kugira ngo uzamure bizinesi yawe wabagana ku cyicaro cyangwa ku mashami aho bakorera.

Isoko rusange abaturage bose bahuriramo, buri wese aba yazanye ibicuruzwa bitandukanye, abaguzi na bo bakitabira kugura kugiciro kiboroheye.

Mu isoko riciriritse ry'imbuto ndetse n'imboga, aho wasanga imineke, wotameloni, ibinyomoro, imyembe ndetse n'izindi mbuto zose ushaka.

Mu isoko ricuruza ibintu bitandukanye cyane cyane imbuto n'imboga, haraboneka; inyanya, ibitunguru by'umweru n'ibitunguru bitukura, indimu, na pavuro na za mayoneze.

I Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, hari aparitema igurishwa mu madorari y'abanyamerika ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu, ni heza wahatura.

Iyo abantu bakorera mu isoko riciriritse cyane ridasakaye, ibicuruzwa byabo birangirika ndetse n'abaje kuharurira bakanyagirwa bikaba nta mutekano wuzuye bifite.

Mu isoko ry'imboga hari imboga zitandukanye; inyanya, karoti, imiteja, intoryi, Abaje gucuruza ni benshi n'abaje kwitabira kugura n'abo ni benshi.

Mu isoko rito riciriritse rya nimugoroba, abantu bari gucuruza ibintu by'imboga, amashu inyanya, ibitunguru, intoryi n'ibindi byo mu mboga.

Mu isoko ricuruza ibyokurya harimo ahiganjemo imboga, karoti, povuro, inyanya, intoryi ndetse n'ibitunguru.

Imitako ikoreshwa cyane cyane mu Rwanda, ikundwa n'abanyamahanga basura igihugu cy'u Rwanda; iraboneka mu masoko nka Kimironko ndetse no mu mujyi wa Kigali.

Isoko ricuruza imbuto n'imboga higanjemo urusenda, intoryi, karoti, pavuro, betarave, tungurusumu ndetse na tangawizi.

Amasoko yo mu cyaro haracyagaragaramo ibibazo bitandukanye, atwikiriye ku buryo budaha umutekano abacuruzi n'ibicuruzwa byabo, kuko imvura iramutse iguye bimwe byakangirika.

Mu isoko ricururizamo imboga hari ushinzwe umutekano, abacuruzi bacuruza kokombure inyanya, n'ibitunguru.

Inzu nini y'ubucuruzi iri mu mujyi wa Kigali ibonekamo ibibanza bicururizwamo ibintu bitandukanye ,aho bacururiza imyenda, aho bacururiza ibyo kurya, aho bacururiza ibikoresho by'ubwubatsi n'aho bacururiza amavuta yo kwisiga.

Mu isoko ricuruza imyambaro, inkweto z'abagabo, inkweto z'abagore, abaguzi nabo baje kugura, abacuruzi bazindukiye nabo gucuruza, ibyo bazanye mu isoko.

Umugabo watsindiye igare muri tombola yateguwe na emutiyeni ikaba yaranategwe inkunga na emutiyeni akaba ari nacyo kigo cyageze mu Rwanda bwa mbere gishinzwe itumanaho.

Emutiyene mobayilo mani ikomeje kwesa imihigo, yegereza serivise zayo abaturage, ni muri urwo rwego yagiye ishyira udukiyosike turi simati, ahantu henshi hatandukanye.

Eyateri ni sosiyete ikorera mu Rwanda, ikaba ijyana n'andi mashami ku isi ahantu hatandukanye, ishinzwe iby'itumanaho ndetse n'ibya interinete ni iya kabiri yaje ikurikira emutiyeni rwanda.

Ahantu heza hateguye neza, hubatswe ku buryo bugezweho, hari abantu bitabiriye bafite za mudasobwa imbere yabo ziteretse ku meza bafitemo uducupa tw'amazi yo kunywa bakurikiye kandi bateze amatwi ibintu bisa nkaho ari ibiganiro.

Emutiyeni Rwanda ni kompanyi y'itumanaho, niyo yambere yageze mu Rwanda imaze imyaka irenga makumyabiri n'itanu ikora kandi ifite serivise nyinshi harimo na mobayiromane.

Emutiyene mobilo mani agisebutedi, ni ukuvuga ko aha muri iri duka bayemera ikaba ifite imibare mirongo inani na gatatu icyenda gatanu mirongo ine na kane, kandi nta yandi mafaranga ucibwa usibyeyo ugomba kwishyura gusa.

Emutiyene mobayiro mani ni kampani yageze mu rwanda bwa mbere, ishinzwe iby'itumanaho, ifite serivisi ya mobayiro mani aho ufite amafaranga bayagushyirira kuri telefone, waba ufite amafaranga kuri telefoni bakayaguha kashe mu ntoki.

Murakaza neza muri afuri fama maketi, ni aho ducuruza imboga n'imbuto bikiri fureshi kandi byahinzwe mu buryo buri oraganike, nta buryo buri shimike bukoreshejwe.

Reba ibigurishirizwa ku isoko ry'u Rwanda, rikoresheje ikoranabuhanga rizwi nka ikamasi kuri mudasobwa, iyakure, imyenda y'abagore, imitako y'abagore, amavuta yo kwisiga.

Vuba vuba yamenyekanye mu Rwanda nka kampani yohereza ibicuruzwa ku bakiliya aho ibasanze mu rugo cyangwa aho bakorera, ibikora vuba vuba nk'izina ryayo.

Umumotari ushinzwe kuderivaringa ibintu abikuye aho bigurirwa abijyana ku babitumye, ari kubihereza uwamutumye nawe akamwishyura.

Isoko rigurishiriza kuri mudasobwa iya kure, cyangwa onurayini shopingi, hari inkweto, amashati, terefone n'ibindi bikoresho.

Ubu singombwa ko wava mu rugo ugiye guhaha ibyo ukeneye. Hari amasoko akorera kuri mudasobwa uyabwirwa ibyo ushaka ukabishyura na bo bakabikugezaho mu gihe gito.

Murakaza neza kuri UZURI ki endi igereke ni gute twatuma umunsi wanyu urushaho kuba mwiza, iyumve neza ubaze ikibazo n'igitekerezo kuri twebwe turahari kugira ngo tugufashe.

MIGRO Shop tubibagezaho ku buntu iyo mutuguriye product zacu tubizanira aho mukorera cyangwa aho mutuye.

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

I Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, hari aparitema igurishwa mu madorari y'abanyamerika ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu, ni heza wahatura.

I Kanombe mu mujyi wa Kigali hari inzu igurishwa amafaranga Miliyoni ijana na cumi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda wayigura ni nziza irimo ibikoresho bigezweho ndetse n'amakaro gusa.

Kigali Kibagabaga hari inzu ikodeshwa ifite ibyumba bitanu. Ikodeshwa mu madolari magana abiri na mirongo ine, mu gihe kingana n'ukwezi kumwe konyine.

Kigali Kimironko hari inzu ikodeshwa ifite ibyumba bine ikagira ubwiherero butatu, ikodeshwa ibihumbi magana atandatu mu mafaranga y' u Rwanda mu gihe kingana n' ukwezi kumwe.

Mu murenge wa Gisozi mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, hari inzu ikodeshwa ifite icyumba kimwe, ikagira na saro, ikagira n'ubwogero, ibihumbi ijana na mirongo itanu ku kwezi.

Inzu igurishwa cumi na gatanu, uvuye Mayange ifite amakaro yose, ni nziza kandi yubatse muburyo bugezweho.

Amaparitema akodeshwa araboneka aho baba bafite bariko cyangwa urubaraza, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu na mirongo itanu byose ku kwezi

Turimo turabona ibikorwaremezo nk'umuhanda, ibiyaga, ibiti n'ubwo uwareba neza atitegereje yabona wagirango ngo byakundukiye mu mazi, ariko byatewe n'ifoto bafashe bigaragaza bisa nk'aho ibi biti n'amapironi byaguye mu nyanja cyangwa mu mazi. Ariko bari bagambiriye kutwereka ibikorwa remezo nk'imihanda, n'ibiti n'ibindi.

Mu mujyi wa kigali ahazwi nka kuri peyaje hari amazu akorerwamo n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubwiteganyirize RSSB, hakorera agaciro fawundi hagakoreramo n'izindi serivisi za leta.

Aha ngaha hari umuhanda mwiza cyane uri kugendamo iki nyabiziga, pikipiki imenyerewe cyane mu gutwara imizigo cyane cyane ibicuruzwa bikura ku masoko ibijyana ahandi ni ipikipiki ifite ibara ry'ubururu uyu muhanda kandi ukikijwe n'ibiti byiza cyane ndetse n'amatara amuririka ibinyabiziga kumuhanda mugihe cya n’ ijoro.

Kigali, Kanombe, hari inzu ikodeshwa, ifite parikingi ihagije, ikagira ibyumba bine, ikagira ubwiherero butatu kandi ntabwo irarangira kubakwa.

Kigali kanombe hari inzu ikodeshwa igizwe n'ibyumba bine byo kuraramo, ubwiherero butatu, iri ku mafaranga ibihumbi magana atanu mu gihe cy'ukwezi kumwe.

Kigali, kabeza hari inzu ikodeshwa y'ibyumba bitatu, ubwiherero butatu, ikodeshwa ibihumbi magana atanu mu gihe cy'ukwezi, hari na jaride nziza.

Inzu igurishwa iherereye i Kigali Kanombe ifite ubuso bwa magana atatu metero kare, iragurishwa ku mafaranga miliyoni ijana, mu mananyarwanda.

Kigali, Kimironko hari inzu yo kubamo ikodeshwa, iri ahantu heza, ni inzu nini yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amapave na parikingi ihagije.

Inzu igurishwa iherereye i Kigali Kibagabaga ku giciro cya miliyoni ijana na mirongo ine ku mafaranga y'u rwanda nziza hose ifite amakaro kandi ikinze neza.

Kibagabaga mu mujyi wa kigali hari inzu ikodeshwa itarimo ibikoresho byo mu nzu, ifite ibyumba bibiri ubwogero bubiri ikodeshwa ibihumbi magana atandatu mu mafaranga y'urwanda mu gihe kingana n'ukwezi.

Inzu nziza z'ubucuruzi ziboneka mu mujyi wa kigali harimo ibibanza byinshi byo gukoreramo aho wacururiza ikawa, aho wakambikira abageni ndetse n'aho waparika imodoka yawe.

Uruganda rw'amata, utubuni turi mu gatajeri rw'ibara ry'umweru turimo amata, igikoresho babikamo amata kiri iruhande rwabyo.

Mituwele desante ubwisungane mu kwivuza. Ni uburyo bwashyiriweho abanyarwanda n'abanyarwandakazi bwo gufatanya gutanga imisanzu yo kwivuza, uyifite ntarembera mu rugo ahubwo ajya kwa muganga.

Ara esi esi bi ni kigo cy'ubwishingizi gishinzwe gukusanya imisanzu ku bakozi ba leta, n'abandi bafite ibigo bikorera bafitemo amakontara, ikabishingira mu gihe cy'izabukuru ikazabagoboka.

Ara esesibi, awa herifu, awa fiyuca. Ejo heza. Ni ubwisungane kuri bose, bitagombye ko ufite ikigo runaka ukorera. Nawe ku giti cyawe wabagana.

Ubwishingizi buzwi nka mituweli do sante buhagarariwe n'ikigo cya araesiesibi, nibwo butuma umuturage atabasha kurembera mu rugo mu gihe abufite, kuko yihutira kujya kwa muganga hamwegereye.

Mituwele do sante ni ubwishingizi, aho buri muntu wese atanga umusanzu kugira ngo mu gihe arwaye azajye kwa muganga atarembeye mu rugo, kwa muganga naho bakamwakira.

Inyubako iri mu mujyi wa Kigali ikoreramo rama, ishinzwe iby'ubwishingizi n'ubwizigamire, bw'abageze mu zabukuru, ishinzwe no kwishyuza imisanzu.

Mbere mu Rwanda abiteganyiriza izabukuru babaga ari abantu bafite amasezerano y'akazi ya burundu n'ibigo bakorera bizwi cyane cyane ibya leta, ariko ubu gahunda ya leta yashyizeho ejo heza buri muturarwanda wese yatanga amafaranga afite akiteganyiriza.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, iba iriho amafoto y'uwishingiwe, akayigaragaza uko agiye kwa muganga kwivuza, bagasuzuma hanyuma bakamuvura bakurikije amabwiriza.

Mituwere de sante uyifite ntarembera mu rugo ifasha mu bwisungane haba abakennye cyangwa aboroheje cyangwa abakize ibafasha mu kwivuza ntibarebere iwabo.

Ejo heza : ubwizigame bw'igihe kirekire, igihe ufite imbaraga zo gukora zigamira izabukuru, muri ubu ufite imbaraga.

Iguriro ryitwa superi marishe cyangwa supamaketi aho ibintu byose bipanze neza aho wabasha kubona icyo ushaka cyose mu gihe cyose.

Supamaketi ni isoko wasangamo buri kintu cyose ukeneye kandi biba bipanze neza mugihe ukeneye ibikoresho byo mu nzu amasahani, amatelemosi ibirahuri wabagana.

Superi Marishe, iguriro rigezweho, riba ririmo ibintu byose kandi bipanze neza, biri ku murongo, aho wasanga buri kintu wifuza ku masaha yose ubishakira.

Imodoka iparitse mbere ya supamaketi yitwa mega hapishopingi, aho umuntu ashobora kwibonera ibyo akeneye hari n'indobo zihateretse imbere y'umuryango.

Muri supamaketi usangamo ibintu byinshi bitandukanye harimo Nido, ibirungo byo mucyayi ,ibirungo byo munyama, urusenda ndetse nibindi wakenera byo guteka.

Isoko rigezweho superi marishe ricuruza ibintu byose kandi bipanze neza aho wasanga amabiswi ukahasanga amabombo ukahasanga amaji ndetse n'ibindi.

Muri supamaketi niho ushobora gusanga ibintu bipanze neza byose kumurongo kandi ibijya gusa cyangwa bihuje ubwoko bipangirwa ahantu hamwe, amaji y'ubwoko bwose wayahasanga.